Icyapa cya gerayo amahoro na orudimico kiriho umugore wirabura wamwenyuye utwaye imodoka, ibiganza bye biri kuri vora, hirya ye hari imodoka zindi z'umweru.

Icyapa kinini gishinze ku muhanda, kirimo ibara ry'ubururu, amagambo y'umweru avuga saniramu ubwishingizi. Abagabo n'abagore bari kugenda ku kumuhanda.

Icyapa cyamamariza ubwishingizi bwa Sanlam, kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho umukobwa w'umwirabura uri guseka, wateye amaboko hejuru, wambaye amaherena, ishati y'ubururu, n'umupira w'ubururu, ipantaro y'ikoboyi.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye irimo imipira y'umukara n'umweru, umutuku, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Akabati gakozwe mu birahure, karimo imirimbo y'ubucuruzi itandukanye, amaherena, imikufi, ibikomo impeta, n'ibindi byinshi.

Iduka ry'imyenda, akabati kamanitseho imyenda y'imipira y'amabara menshi harimo iy'icyatsi, iy'ubururu, iy'umweru, iy'umukara ndetse n'iy'ubururu bwijimye.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore ririmo amakanzu ari mu kabati agiye atandukanye, ikanzu y'umuhondo, ikanzu y'iroza, ikanzu y'umweru n'ubururu, ikanzu y'umukara ndetse n'ikanzu ya move.

Iduka ririho igiti kiriho imyenda itandukanye, imipira, amashati, amapantalo amajire y'amabara atandukanye, harimo imyeru, ubururu, umuhondo, icyatsi, umukara.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati undi yambaye umupira w'ibara ry'umutuku n'ingofero bafashe icyapa kimeze nk'urufunguzo rw'imodoka bahagaze imbere y'imodoka y'umweru.

Umugabo wirabura wambaye ipantaro n'ijire ry'umukara n'isaha n'ishati n'ingofero by'iroza, uhagaze afashe ku modoka arimo arayitegereza...

Abagabo babiri umwe wambaye umupira undi wambaye ishati afite agakapu gatukura mu ntoki, bombi bafashe icyapa kimeze nk'urufunguzo rw'imodoka bahagaze imbere y'imodoka y'umweru.

Amafaranga y'ubwoko butandukanye, ibiceri biri mu ibara ry'umuhondo, inote iri mu ibara ry'umutuku, akamashini kabara amafaranga, kariho ahantu bakanda h'umuhondo.

Umugore wirabura, wambaye itaburiya y'umweru, uri mu iduka ricuza amata, uri gusuka amata mu ijage, ari kuyahereza umukiriya uhagaze hanze w'umugore, wambaye umupira w'umweru.

Agakangara karimo urupapuro bisukuza ku munwa, bateretse ku mashini ikondesha amata ku kigero cyiyifuzwa.

Iduka ricuruza ibintu bikomoka ku mata, akabati kateretsemo amazi yo kunkwa n'anverope icyansi gitereretse hejuru y'akabati.

Ibiganza bibiri kimwe gifite urupapuro, ikindi gifite telefone, icyapa kiriho amagambo ari mwibara ry'umutuku no mu ibara ry'umukara rigaragaza ko tugomba kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga.

Ibigani bine by'abantu babiri batandukanye bari guhererekanya amafaranga amwe yanditseho ijana y'amayero, andi yanditseho ijana amadorari.

Inoti ishushanyijeho ibintu bitandukanye abantu bicaye batatu bazitse amaboko inyuma yabo umusozi amazu n'imyotsi n'umubare rimwe.

Abagabo babiri bahagaze ibiganza byabo bifashe amanote atandukanye, bimwe bifasha amanote ariho ibihumbi bitanu biri mu ibara ry'umweru n'umutuku, undi afashe amanote menshi ari kuyabara asa n'amadorari, andi ari ku meza, harambitseho amadorari.

Ikiganza gifashe amafaranga atandukanye y'amayero, aya mirongo itanu, ay'ijana, aya makumyabiri, naya mirongo itatu, ari mumabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Inoti y'amafaranga y'amatanzaniya y'amashiringi igihumbi, yanditseho banki ya Tanzania, ashushanyijeho amazu maremare ageretse inshuro imwe n'ubusitani buteyemo indabyo.

Icyapa kinini cy'ibara ry'umuhondo n'umukara cyerekana ko bavunjisha amafaranga, mu muryango hagaze umugabo wirabura, hari tereviziyo iri kwaka irimo amagambo.

Abantu babiri umugabo n'umugore b'abazungu, bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'inzu iriho ibyapa byo kuvunjisha amafaranga. Icyapa kinini kiriho amafaranga n'ayo avunjishwa.

Ibarizo ririmo imbaho zitandukanye, umugabo wicaye hejuru y'izo mbaho babazamo intebe n'utubati, n'udutambaro tw'amabara atandukanye, ubururu, umutuku n'umweru.

Ameza y'uruziga manini azengurutswe n'intebe esheshatu bicara begamye aho begamira harimo uduti dutandukanye byose bikozwe mu rubaho ruri hanze ku rubaraza rw'inzu.

Intebe z'amadiva n'utumeza duto, z'ubururu n'icyatsi zifite udusego duto imbere intebe y'umweru umugabo wirabura yicaye.

Inzu nini y'igorofa abantu b'abakungu baruhukiramo, hari intebe z'umukara n'ameza ateguye neza ariho igitambaro cy'umutuku n'ikindi cy'umweru, inzu iteye amarangi y'ubururu n'umuhondo.

Icyapa kiriho abagore n'abagabo bambaye udupfungamunwa dutandukanye, ameza ateretseho za mudasobwa n'ibyapa binini byiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru.

Inyubako y'igorofa iriho icyapa kinini cy'umweru cyandikishijweho amagambo y'ubururu byerekana iby'ubwishingizi, ibiti by'indabo biri mu ibara ry'icyatsi bikikije inyubako.

Iduka rinini ricuruza imitako ya kinyarwanda harimo imyuko, imigongo, ibisekeye, ingoma, ikangara.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bari mu isoko ry'imbuto, harimo imineke, pome, inanasi, wotamironi, imyembe, ibinyomoro n'amatunda.

Umugore wirabura uri guseka. Wambaye igitambaro mu mutwe, ihina ry'umukara, ishati y'iroza, imbuto z'amoko menshi, inyanya, imineke, ibitoki, ibirayi, tungurusumu n'ibitunguru.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Ikiganza cyirabura gifashe terefone mu ntoki irimo imibare umuntu ashobora gukoresha yishyura amafaranga kuri mobayiro kode na mobayiro mani.

akazu gato gakozwe mu cyuma kariho ibyapa biri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu n'umweru n'amagambo yanditswe m'ibara ry'umukara umutuku n'umugabo uhagaze mu idirishya ryako kazu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amabara menshi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, iby'ibirungo, iby'amafu ndetse n'imboga nyinshi, harimo karoti, puwavuro, intoryi, hejuru hari icyapa cy'uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode ya mobayiro. Harimo n'ibara ry'ubururu n'umukara.

Abantu babiri umugabo wirabura n'umwana, ameza ariho voka, ibyatsi amafoke, amata n'amatasi.

Abagabo babiri bahagaze umwe wambaye ishati undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi na kasike y'icyatsi, na moto iri mu ibara ry'umukara n'icyatsi, iriho igikarito gishushanyijeho umuntu uri kwiruka w'icyatsi.

Abagabo babiri, umuzungu n'umwirabura, umwirabura ufite agapfukamunwa, bahagaze ahantu hitegeye ubusitani, ikiyaga, amazu menshi y'amagorofa, n'ibiti bitandukanye by'icyatsi.

Inzu iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu i Kigali mu Rwanda, yubakishije amatafari ahiye ku rupangu, isakaje amategura, isize amarange, irimo n'amakaro.

Inzu ushobora kugura muri Kigali, kuri miliyoni ijana na mirongo itanu. Ifite ubuso bwa kilometero kare maganatatu mirongo irindwi n'eshanu.

Abantu babiri umugabo w'umuzungu n'umugore wirabura bahagaze mu busitani bwiza burimo indabo n'ibiti na pisine biri mu nzu.

Inzu igezweho irimo amakaro isize amarange na parafo n'amatara meza, ushobora gukodesha ibihumbi magana atandatu ku kwezi, irimo ibyumba bibiri, harimo ibikoresho byo mu nzu iherereye i Kigali i Remera.

Inyubako iri Kanzenze iri kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi ariko guciririkanwa bikaba byemewe, inzu idatize' amarangi, itarimo amakaro, irimo umuryango uringaniye.

Inzu ikodeshwa iherereye Kigali Kacyiru ku bihumbi magana abiri buri kwezi, irimo icyuma kimwe n'urukarabiro rumwe ikaba isize amarangi y'ubururu n'umukara.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi mu ibara ry'umweru n'amatafari ahiye, harimo ibyumba ushobora gukodesha ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu, harimo n'ibindi wakwishyura.

Intoki zirabura ziriho inzara zisize irangi ry'umutuku rifashe ubwoko bw'inyama ziri mu ishashi mu ntoki, mudasobwa irimo kwaka aka mashini gafotora ibicuruzwa kari mu ibara ry'umukara kari kwaka.

Abantu batandukanye abagore, abagabo, isakoshi zimanitse, imikandara imanitse, inkweto ziri ku tubati ziri mu mabara agiye atandukanye ukurikije uko bigiye bisa.

Ifoto igaragaza abantu benshi b'abagore bicaye munsi y'ibiti, umugabo wegamye ku giti urabona ko bari mu gihe k'izuba. Hari abacamanza bane bicaye bari gucira umugabo urubanza.

Umugabo uhagaze wamwenyure wambaye amadarubindi n'ingofero, umupira w'icyatsi, n'isakoshi ku rutugu rwe. Ejo heza uzakomeza kuririmba na nyuma ya pansiyo byanditse ku cyapa.

Icyumba kirimo abantu benshi; abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, ameza ateretseho impapuro, amakayi, abana, ibyapa biri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wirabura uri guseka uhetse igikapu, wambaye isaha ku kaboko, ufite ikawa mu ntoki ze na telefone, n'imashini yabugenewe byishyurirwaho mu buryo bwa elegitoronike.

Umugabo uhagaze mu iduka ufite igicuruzwa mu ntoki ze wirabura imbere ye hari ibicuruzwa by'ibisuguti biri mu bikarito, ibindi biri mu mashashi ibindi biri mu bikombe n'ibiciro byabyo.

Iduka ririmo abantu benshi abagore n'abagabo n'abana ,harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mubi karitori bimwe mu bikombe bifite amabara atandukanye icyatsi, ubururu n'umuhondo, orange n'umweru.

Utubati dukozwe mu byuma turimo imitobe igiye itandukanye imwe iri mu bikarito indi iri mu macupa hari iya pome hari iy'amacunga hari iy'inkeri n'indi nyinshi.